Ikigo cya RIB gikomeje gutanga amasomo ku bijyanye no gucunga umutekano mu gihugu cy'u Rwanda, ku bantu batandukanye.

Ikigo cy'imisoro n'amahoro Rwanda reveni otoriti, mu Karere ka Burera kongeye gushimira abasora bakoze neza, mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na rimwe.

Umuhanda ufite isuku, ukeye, ukikijwe n'ubusitani buri mu moko y'ibiti atandukanye ndetse n'amatara.

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo, urimo abamotari babiri n'umuyonzi umwe, bose bafite abagenzi, hirya hari ibikamyo bigiye bitandukanye, hejuru yaho hari ibiti bihari, hirya yaho hari inyubako ifite amabara y'ubururu bwijimye.

Isuku mu bitaro bitandukanye mu gihugu cyacu ikomeje kwitabwaho mu busitani,:naho imodoka zihagarara habaye izizana abarwayi cyangwa se iz'ibitaro.

Ubuyobozi bwa leta y'u Rwanda buhora bushishikariza abaturage bayo kuva mu megeka kuko ibi bintu bishyira ubuzima bwabo mu kaga, nyamuneka muhanahane aya makuru aba bantu bave mu manegeka.

Abagenza amaguru mu gihe bambukiranya umuhanda, bakomeje guhabwa agaciro kabo bakambuka nta nkomyi, ibinyabiziga bigahagarara bakambuka neza.